Akazi k'umuhondo ka sosiyete ya MTN gatanga serivisi ya Airtel hicaye umuntu w'igitsina gabo uri gutanga serivisi zo kubitsa no kubikuza no kugura ama inite ari kuziha abagabo babiri bahagaze hanze.

Aho batangira serivise zigiye zitandukanye z'itumanaho, ndahabona ibyapa bigiye bitandukanye, ari byo icyapa cya MTN ndetse n'icya Airtel, haragaragara abagabo babiri, umwe uri mu kazu, undi uri hanze, uri kumwaka serivise zitandukanye.

Umutaka w'umuhondo wa sosiyete ya MTN urimo abantu batatu bambaye amajire y'umuhondo, harimo n'undi muntu waje kwaka serivise yo kubikuza no kubitsa amafaranga, inyuma y'abo bantu hari imodoka nyinshi ziri kugenda mu muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ikinyabiziga cya moto kiriho umuntu wambaye jiri y'umutuku hirya hari imitaka myinshi itandukanye uw'umutuku wa sosiyete ya airtel n'iy'imihodo ibiri ya sosiyete ya mtn, hari n'abantu benshi baje kwaka serivisi yo kubikuza no kubitsa.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'ijiumuhondo, ya sosiyete ya MTN, utanga serivisi zo kubikuza no kubitsa ndetse no kugura amayinite, yicaye ku ntebe y'mweru ategereje abantu baje kwaka izo serivisi.

Akazu k'umuhondo ka sosiyete ya MTN. Kari ahantu hubakishije amatafari y'ubwoko bw'amapave. Hirya hari imitaka ya sosiyete ya MTN n'akandi kazu k'umutuku ka sosiyete ya Airtel. Kariho umuntu waje kwaka serivisi yo kubikuza no kubitsa. Mu muhanda harimo n'ikinyabiziga k'igare.

Mu nzu harimo umuntu w'igitsina gabo, wambaye ishati y'ubururu bwijimye, wambaye amadarubindi, ufite n'indangururamajwi mu ntoki ze, bigaragare ko ari mu mahugurwa, inyuma ye hari ibyapa bibiri by'umweru, biriho ifoto y'umuntu, biri kwamamaza gukoresha umuyoboro wa Airtel.

Itumanaho rya MTN riri mu matumanaho akora neza cyane, nkuko bigaragazwa n'abayobozi bayo bahagaze hano bagera muri batatu bari gushimira umwe mu bakoze neza.

Inyubako nini, kandi nziza, yanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara, yubakishije amatafari ahiye, hanze hari abantu benshi, abigitsina gabo n'abigitsina gore, hanze haparitse moto, abo bantu bari kuramukanya.

Akazu k'agakiyosike gatangirwamo serivisi za banki ariyo Bank Populaire, Equity Bank BK Bank ndetse na Western Union, aho hari abantu babiri baje kubitsa amafaranga cyangwa kuyabikuza.

Umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ze, inyuma ye hakaba hari igishushanyo kinini cyane cyanditseho Nyagatare Investment Forum, biri mu ibara ry'umweru bikaba byanditse ku gishushanyo kiri mu ibara ry'ubururu.

Koperative y'abahinzi, ibamo abantu benshi, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bejeje ibihingwa, biri mu mabase, mu mapaniye ndetse n'ibindi, bagiye kujyana ku masoko kugira ngo babone amafaranga.

Mu gisharagati gifite ibara ry'umuhondo n'ubururu. Hicayemo abantu benshi. Harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore. Higanjemo abambaye imipira y'ubururu. Hari abagabo babiri bahagaze imbere, bari guherekana ikemezo k'ishimwe.

lnzu y'ubwanikiro yubakishije amabati y'umutuku, y'ubwanikiro bw'ibigori, hanze haparitse igare ,na none hirya y'inzu hari ikigega gifata amazi y'imvura.

Hanze hica abantu benshi harimob'igitsina gabo n'igitsina gore, bari muri koperative imbere yabo hari umuntu w'igitsina gabo uri kubabwira ibyo koperative igenderaho.

Koperative y'ubuhinzi bw'inanasi bafite umusaruro mwiza, haje abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, abenshi bambaye imipira y'ubururu yanditseho koperative ahazaza heza kuri bose hari n'umuntu w'igitsina gabo uri kubabwira ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Muri bale, ahazwi nkaho bacururiza ibinyobwa kugira ngo ababagana baze kubigura, bashire inyota, harimo ibinyobwa bitandukanye, fanta, inzoga n'umuvinyo, biva mu macupa atandukanye, ubururu, umutuku, icyatsi n'andi menshi.

Ahazwi nko mu kabari haragaragara inzoga zigiye zitandukanye, zikaba ziri ahitwa nko muri kontwari, aho bazicururiza umukiriya ahaza agafata iyo ashaka bihwanye n'ibiciro byayo.

Muri bale, aho bacuruza ibinyobwa, aho abagana baza kugura ibinyobwa kugira ngo bashire inyota, harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, fanta, inzoga, umuvinyu n'ibindi byinshi.

Muri bare aho abakiriya baza bayigana baje gushaka ibyo kunywa, hari ameza ateretseho, ibirahure bitandukanye kandi byiza ndetse n'amavide muri ibyo birahure harimo umuvinyo.

Muri botike aho bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibisukuti, imigati, harimo n'abantu babiri b'igitsina gabo, umwe uri kugurisha n'undi ari kugura.

Botike irimo umuntu w'igitsina gore, wambaye ijipo y'umutuku n'umupira w'umukara, hacuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo fanta, inzoga za Buralirwa, amakayi, saladine, ibikoresho by'isuku, amavuta n'ibindi byinshi.

Muri butike, aho hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'icyayi, kiri mu mashashi atandukanye, iy'icyatsi yanditseho asante n'indi y'umuhondo.

Muri butike icuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo: amavuta yo guteka, impapuro z'isuku, isabune, amafu y'igikoma cy'amasaka, soya ndetse n'ibindi byinshi. Harimo n'umuntu w'igitsina gore, ufite umudaho mu ntoki, uri kuyora ifu ayikura mu ndobo ayishyira mu kabasi.

Muri butike, aho bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'igicupa, gifite umupfundikizo w'umuhondo, kirimo shikarete z'umuhondo, bita orubiti, bahekenya.

Muri butike aho hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ,harimo n'uburoso bwifashishwa boza mu kanwa, bufite amabara atandukanye, iroze, icyatsi, move ,n'ubururu.

Butike irimo ibicuruzwa bitandukanye, ibiribwa ndetse n'ibindi harimo inyanya, amavuta yo guteka, amajyane ,ibitunguru n'ibindi byinshi harimo n'umuntu w'igitsina gore ugurisha ibyo bintu.

Mu rusengero runini cyane rurimo irido y'umweru n'icyatsi, harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, wambaye ikanzu y'umweru n'umukara n'umutuku ari kubigisha.

Kuri Kiliziya nini kandi nziza yubakishije amatafari ahiye iriho n'umusaraba hejuru hari abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gore n'igitsina gabo bari kwinjira.

Mu rusengero harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abicaye n'abahagaze bazamuye amaboko bari kuramya imana.

Ahantu hari imbaga y'abantu benshi, yivanzemo igitsina gore n'igitsina gabo, bambaye imyenda igiye itandukanye, bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hubatse inzu igeretse, nziza cyane.

Kiriziya yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya y'umweru n'umukara, isakaje amabati y'umutuku, hanze hari imbuga nini cyane iparitsemo imodoka ebyiri zitandukanye. Hirya yayo hari ishyamba riteyemo ibiti.

Muri kiliziya, hari abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imyenda yo mu bwoko bw'imikenyero, bafite ikemezo k'ishyingirwa mu ntoki zabo, inyuma yabo hari abapadiri, bambaye imyenda y'umweru n'umutuku n'icyatsi.

Muri hoteri hari inyubako nziza isize irangi ry'umuhondo, hanze hari n'ubwogero rusange bwinshi, hari n'imitaka n'aho baryama bavuye muri ubwo bwogero, hari n'ubusitani bwiza.

Amwe mu mahoteli afite amazu yubakishijwe ibyatsi hejuru haragaragara bamwe mu bera baje kwiyakirira ndetse bari kumwe n'abirabura, urabona uburyo babateguriye ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bakaba bishimye mu maso.

Muri hoteli aho abakiriya baza bayigana kugira ngo babahe serivisi zitandukanye harimo: kurya, kuryama ndetse n'ibindi, harimo ibikoresho bitandukanye: firigo, kwiziniyeri baterekaho gaze, akabati, ameza, televiziyo n'ibindi byinshi.

Hoteri nini cyane kandi nziza, aho itanga serivisi zitandukanye, harimo aho kuryama, ibiribwa n'ibinyobwa, hari intebe nziza, zifite ibara ry'umweru, aho bakirira abantu.

Muri hoteli aho bakira abakiriya baje kwaka serivisi zitandukanye harimo kurya hari abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore, abirabura n'abazungu baje gufata amafunguro, hari n'abantu bari kuyabazanira, hirya hari amavaze ateyemo indabo.

Hoteri nini cyane kandi nziza, isize irangi ry'umuhondo, aho itanga serivisi zitandukanye, aho kuryama, ibiribwa n'ibinyobwa kugira ngo abaza babagana babashe kubibona, hanze hari ubusitani bwiza, buteyemo indabo na pasiparumu.

Intebe nziza cyane ziri mu moko agiye atandukanye ziteguye mu nyubako nziza cyane isize irangi ry'umweru, ku ruhande hakaba hagaragara igishushanyo cy'ubugeni ndetse n'amatara ari kwaka.

Inyubako nziza cyane ifite amagorofa agera kuri atatu, isakaye neza ndetse hanze yawo ukabona ko hari umuhanda munini ndetse ikaba ifite na porutaye yirabura.

Hoteli nziza, isize irangi ry'umweru, aho abantu baza bayigana kugirango bahabwe serivisi zigiye zitandukanye, hanze hari ubwogero rusange n'aho abantu bavuye koga baryama n'umutaka batwikira, hari n'ubusitani bwiza.

Muri hoteli aho abakiriya baza babagana kugira ngo babahe serivisi zitandukanye hari icyumba kirimo igitanda cy'umukara, gishasheho amashuka y'umweru n'imisego ibiri, hirya hari intebe zo kwicaraho, hanze hari n'udutebe two kwicaraho kugira ngo umuntu atekereze neza.

Inyubako nziza ya hotel aho abakiriya baza bayigana kugira ngo babahe serivisi zitandukanye, harimo intebe z'ubururu nziza n'ameza meza ndetse n'intebe z'umweru n'umukara.

Hoteli nini kandi nziza yubakishije amatafari ahiye, hanze hari ubwogero rusange hari n'amatara menshi ari kwaka ndetse hari n'ubusitani bwiza buteyemo indabo.

Mu cyumba giteguye neza cyane hagaragara igitanda gishashe neza kiriho amashuka y'umweru ndetse n'imisego ibiri y'umweru, ku ruhande hakaba hari kugaragara imeza ndetse n'intebe.

Mu isoko aho bacuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo abantu b'ingeri zitandukanye igitsina gabo n'igitsina gore, aho hari umuntu w'igitsina gabo uhagaze ku bicuruzwa bitandukanye by'imbuto.

Mu isoko aho hacururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'isuku, harimo amavuta impapuro z'isuku, indobo n'ibindi byinshi, harimo n'abantu b'igitsina gore n'igitsina gabo.

Mu isoko aho ari abantu benshi cyane, abacuruzi n'abagura, bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda, amasutiye, amakariso, inkweto, amasharupe, amakanzu n'ibindi byinshi.

Mu isoko aho hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye harimo n'abantu benshi ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, baje kugurasha, bagurisha inkweto zo mu bwoko bwa podaboda zifite amabara atandukanye, ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'andi mabara menshi.

Mu isoko aho bacururaza ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyuko, imidaho, situruwaya, ingufuri, utuyugirizo n'ibindi bikoresho byinshi.

Ihene ni amwe mu matungo yororerwa mu ngo z'abantu hakaba hari henshi mu Rwanda bafite ihene, akaba ari amatungo magufi afasha Abanyarwanda kwiteza imbere.

Mu isoko aho hacururizwamo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibikapu, amushuka, imyenda, inkweto, n'ibindi byinshi, hari n'aho abanyamaguru batambukira bagiye kugura ibyo bashaka.

Inzu ahazwi nko muri resitora, bakira abakiriya babagaburira ibiryo bihiye, bya mugitondo, ibya saa sita, nibya nijoro, kugira ngo abakiriya bamererwe neza, hanze hari n'ubusitani bwiza buteyemo ibiti.

Mu muhanda w'igitaka hateyemo ibiza by'imvura, umuvu wabateye, harimo ibinyabiziga byinshi bya moto bihetsa abantu, hari n'abitwikiriye imitaka kugira ngo imvura itabanyagira.

Mu muhanda wubakishije amatafari y'ubwoko bw'amapave, harimo ibinyabiziga byinshi bya moto, bikoresha umuriro w'amashanyarazi, byicayeho n'abantu bafite ingofero z'ubururu, bigaragare ko bari baje kuzikoresha.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umurongo muremure w'umuhondo n'indi mirongo y'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bya moto bibiri biriho abantu bambaye ingofero zabugenewe.

Muri kaburimbo haragaragaramo abamotari bagera muri batatu, inyuma yabo hakaba hari imodoka y'ivatiri, umuhanda ukaba ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi, amenshi akaba ari mu ibara ry'umweru.

Ni umuhanda wubakishije amatafari ahiye harimo ikinyabiziga cya moto gikoresha umuriro w'amashanyarazi, hicayeho abantu babiri utwaye n'utwawe wambaye ingofero z'umutuku, hirya y'umuhanda hari imigano.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo ducagaguye tw'umweru n'umukara, harimo ikinyabiziga cya moto gihentse umugenzi, harimo n'igare mu ruhande abagenzi bagenderamo harimo abagenzi bari kugenda.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ikinyabiziga cya moto, kiriho umuntu wambaye umupira w'ubururu, wanditseho Bboxx n'ingofero z'umuhondo, ari kwinjira mu gipangu giparitsemo imodoka nyinshi kirimo n'abantu.

Moto zimwe zizwi nk'izikoresha bateri, urabona hamwe bajya gufatira amabateri ndetse no kuyasharisha bari gutanga izo serivisi baba bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'umumotari akaba ategereje, yifashisha telefoni mu kwishyura.